Amashuri ya pirimeri afasha abana benshi kubera ko muri pirimeri ariho umwana yigira gusoma, akanahigira no kwandika. Umwana wize pirimeri neza agira ubumenyi bwinshi buzamufasha mu minsi iri imbere.

Abanyeshuri bize ibintu bijyanye na tekiniki, basohoka mu ishuri babizi neza, ku buryo bashobora kujya ahantu bakabaha akazi, kandi nabo bakaba bakwiteza imbere, bari gukanika ibikoresho bitandukanye.

Abanyeshuri iyo bize neza bari gukurikira bakora neza ibyo babajijwe, maze bigatuma biga vuba badatinze mu mashuri yabo. Iyo bamaze kurangiza kandi babona akazi, maze bakiteza imbere.

Imodoka bazifashisha bari kwiga gukanika. Abanyeshuri bajya kwiga mu igaraji, iyo bamaze kubimenya baragenda na bo bakabibyaza umusaruro. Hari abagura ibikoresho by'imodoka bakabicuruza, abandi bakiga kuzitwara bakiteza imbere.

Kwiga ubuvuzi bw'amatungo ni byiza cyane kubera ko abantu benshi bagira amatungo. Abantu bakenera aba veterineri bo kubaza uburyo bafata neza amatungo yabo bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Ibikoresho by'ubugeni ni byiza cyane kubera ko abantu babikoresha nk'imitako. Abantu kandi baragenda bagasura aho hakorerwa ibikoresho by'ubugeni bakahigira ibintu byinshi bitandukanye.

Ishuri rituma abanyeshuri babona aho bigira bitabagoye. Bigatuma bunguka ubumenyi bwinshi butandukanye. Bifasha kandi abanyeshuri kwiga neza, kubera ko ibigo by'amashuri biba biri ahantu hanyuranye.

Kwigisha kompiyuta bigezweho cyane. Kubera ko muri iyi minsi abantu benshi bakoresha amakompiyuta， iyo umuntu yabyize，ahugura abandi， bakamuha amafaranga akiteza imbere.

Kwiga ni byiza cyane kubera ko iyo wize neza ugakurikira mu ishuri, bituma wunguka byinshi bizagufasha ejo hazaza. Umunyeshuri mwiza ni ugomba gukurikira ibyo mwarimu ari kumwigisha.

Korora muri iyi minsi ni byiza cyane, kubera ko bifasha abanyeshuri kwiga neza, bakihugura mu bijyanye n'ubuveterineri. Korora kandi bitanga umusaruro, iyo woroye neza ubona umokamo, maze n'inka woroye rimwe na rimwe zigatanga inyama, abantu bakazirya bakaguha amafaranga.

Imyuga irakataje cyane kubera ko abana benshi biga imyuga, iyo bamaze kwiga imyuga, baragenda ku isoko ry'umurimo bagahatana, bakaba bakwiteza imbere, barangiza bakabona amafaranga.

Abanyeshuri iyo babahurije hamwe nk'ikigo cyose bituma bishima, kubera ko bari kuririmba indirimbo nyinshi zinyuranye, maze bikabashimisha cyane. Bituma kandi bamenyana, kubera ko baba bahuye ari benshi cyane.

Imyuga n'ubumenyingiro biri gutera imbere cyane muri iyi minsi. Kubera ko iyo umuntu yabyize， yihangira imirimo cyangwa akigisha bagenzi be， bakamuha amafaranga.

Ikoranabuhanga ni ryiza cyane. Abantu bize ikoranabuhanga biteza imbere bakaba bakwigisha n'abandi uburyo bw'ikoranabuhanga, maze abantu bakagira ubumenyi bwinshi cyane.

Kwiga ububaji ni byiza cyane, kubera ko iyo umuntu amaze kubimenya abaza intebe, cyangwa akabaza utubati dukoreshwa mu rugo. Iyo amaze kubimenya abona amafaranga menshi akuye muri ibyo ngibyo aba yarize.

Abanyeshuri biga ibintu bijyanye na tekiniki, babona amafaranga menshi cyane, kubera ko iyo bamaze kubimenya bajya gufotora, ahantu henshi hatandukanye cyangwa bakigisha abandi bantu, maze bakabaha amafaranga.

Ishuri ryiza ni ishuri ririmo ibikoresho abanyeshuri bakoresha bari kwiga. Ishuri ryiza ribamo intebe abanyeshuri bicaraho, hakabamo ameza abanyeshuri bakoresha bari kwandika, rikabamo imitako myinshi itandukanye ifasha abanyeshuri kwiga neza.